Inzu y'ihoteli itegura ibyo kurya ku bakiriya bayo, irimo ameza manini arambuyeho ibitambaro. Ateretseho n'ibyo kurya ndetse n'intebe zifashishwa mu kwicara ku bakiriya baje bagana iyo hoteri.

Inzu yakirirwamo serivisi zitandukanye yutswe kinyarwanda, aho isakajwe birere kandi irimo amatara amurikira abantu bajemo, ndetse n'udutebe twiza two kwicaraho, n'ameza arambuyeho ibitambaro byiza by'umweru binini.

Inzu iberamo imirimo itandukanye yubatse neza, irimo amatara acanye, amuritse y'imihondo, ndetse ifite n'imifariso, ku buryo abantu baje muri iyo nzu bicara bakumva banezerewe, kubera ko bicaye ahantu hanepa.

Umuhanzi witabiriye igitaramo co gushimisha abafana be, aho baririmba na we akabasubiramo kugira ngo bamwishimire cyane.

Akabari karimo abantu batandukanye bari kunywa inzoga bari no kureba filime ku matara atandukanye mu gihe cy'ijoro rwa gati.

Akabari karimo ibinyobwa bitandukanye ama rikeri ndetse n'ibindi bintu byo kunywa, ku buryo uhageze afite icyaka agura bitewe n'icyo ashakamo gihwanye n'ubushobozi bwo mufuka we.

Butike cyangwa se amangazini acururizwamo ibintu bitandukanye, imbere yaho hari umukanishi wa telefone, ufasha abantu mu gukemura ibibazo byoroheje.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye amagaze ,imyenda ndetse n'ibindi kuko ubishaka wese agana kuri iyi nzu bakabimuha bityo bigatuma abona ibyo akeneye.

Butike icururizwamo ibintu bitandukanye imyenda, amarido aho umucuruzi yicaye ku gatebe kakozwe mu migano ategereje ko abaguzi baza kumugurira.

Abantu bahuriye hamwe baje guhaha ibintu bitandukanye , harimo abagore n'abagabo bafite n'ibikapu byo kubitwaramo. Ndetse n'undi wicyaye ku gatebe ategereje ko bamwakira kugira aze gutahana nibyo bamutumye murugo.

Igipangu cy'umuturage bashizeho icyapa cya sikoro, yahinze mu busitani bwe ibisheke bitoshye, bimeze neza, iyo agize inyota avuna igisheke akakirya, kandi inzu ye inyuzeho n'umuriro w'amashanyarazi

Inzu yubakishijwe amakaro meza, atatse ubwiza bwayo, iriho n'umucuruzi bigaragara ko acuruza imifuka, amapombo yifashishwa mu kuhira imyaka, ndetse no kuba yakurura ba mukerarugendo baje kureba ubwiza bw'iyo nzu.

Inzu y’ubucuruzi yifashishwa mu gucururizamo ibintu bitandukanye, harimo imyaka, ibikomoka ku buhinzi, ibikomoka ku matungo, ndetse n’ibindi byafasha Abaturarwanda.

Iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye bya Shema mawariteri, ryubatse neza ririho n'umuriro ku buryo bifasha abari kunywa bagataha batari kuyobagurika kubera bafite urumuri rw'amatara akomoka ku mashanyarazi.

Iduka jy'imyenda Aho bacuruza imyenda itandukanye cyane cyane iy'abakobwa iri mubibumbano bimanitse bimeze nk'abantu bicyo uyirebye akarebamo imukwiye.

Inzu z'ubucuruzi zubatswe neza, kandi zifite isuku zifite n'umuriro w'amashanyarazi, kuko insinga zinyuze hejuru yazo, hariho n'akazu ka emutiyeni ku buryo ushaka amayinite ayabona.

Inzu y'ubucuruzi ifite inzugi za metarike, iriho n'amakararo ku buryo abantu baje guhahiramo bumva bafite ishema no kumvamva ko bagiye guhahira ahantu heza.

Inzu z'ubucuruzi zirimo imodoka, amamoto, abacuruza butike, bico bikabafasha guhaha ibintu byose bitandukanye bumva bakeneye.

Iduka ry'ubucuruzi bakora ibintu bitandukanye harimo: ubukanishi bw'amaradiyo, amampuri ,amatelefoni ndetse n'ibindi ku buryo ufite telefone yapfuye wese ayibashira bakayikora.

Imikufi yambagwa n'abagore mu ijosi bikozwe mu byuma byitwa siteyinilesisitiri, aho uyiguze yumva yaberewe.

Ibikoresho bitandukanye by'ibinyabiziga, harimo amaringi y'amagare, amapine, insinga ndetse n'ibindi byose byifashishwa ku binyabiziga kugira ngo bigende, birunze ahantu hamwe kugira abantu baze kubirangura.

Ubucuruzi butandukanye burimo ibintu byo gucuruza amasafuriya, imikoropesho, ibitenge, ibikapu by'abagore ndetse n'ubupaniye bukoze muri purastike, ibibase bya purastiki birimo amabara atandukanye, ndetse n'ibindi n'amajage

Inzu ya etaje iri imbere y'umuhanda, hariho nipoto rifata insinga zizana umuriro. Iryo poto ryegegetseho moto, iyo moto itegereje umugenzi, uza kugira ngo ayitware, motari nawe ari hafi ari kureba ibintu biri hafi aho.

Inzu icuruza amafilimi yitwa Gifuti Sitidiyo, aho bakora ibintu bitandukanye harimo gufotora, gukamera ibirori, ndetse no gushimisha abantu mu gihe cy'umunezero.

Aho bacururiza ibikapu byo mu bishashi bya rondoni, reba utuntu two kumanikaho imyenda dusize amabara y'umutuku, mu nzu nziza ikikijwe n'ibitiripuregisi, hariho n'ibirahuri mu madirisha yayo.

Bare ya barabusi y'ibihumbi bibiri, icururizwamo inzoga abantu bajyamo bakanywa, yubatse n'amabati ifite imiryango myinshi itandukanye, ku buryo unywera aho ushaka.

Inzu z'ubucuruzi zikingishwa za mitalike ziriho n'udute abantu baza guhahiramo, bakagura ibintu bitandukanye bitewe n'ibyo bari kumva bakeneye.

Isoko riciriritse aho abahuriramo bagurisha ibintu bitandukanye bya make bityo buri wese akabona ibyo ajana murugo bitewe n'ubushobozi bwe cyangwa se n'amafaranga afite ku mufuka.

Ibyapa bitandukanye bimanitse ku gikuta bigaragaza inzu y'aho Jiriberi acururiza, aho acuruza ibintu bitandukanye harimo ibyo kurya, amafu, amarangi n'ibindi byose.

Papeteri bacururizamo ibintu bitandukanye by'ikoranabuhanga. Harimo nko gufotoza impapuro, kujya kwandikisha ibitabo ndetse no kubiteramo garafeze. Bafasha umuntu wese ubagana iyo afite amafaranga.

Inzu y'ubucuruzi zicururizwamo za matola nini cane, aho uziranguye agenda akajyama aKanepa zikamuvura umugongo kubera kujyama heza, nanone muri izi nzu hacururizwamo n'imyambaro.

Aho bacuruza ibikoresho bitandukanye by'ibinyabiziga harimo amagare, moto, imodoka ndetse n'ibindi bafite na kandagira ukarabe ku muryango, ku buryo uhageze ahita akaraba kugira ngo yirinde indwara zandurira mu kutagira isuku yo gukaraba intoki.

Inzu z'ubucuruzi zifite amashanyarazi ku buryo abaje gucaginga babona aho bacomeka ndetse n'imodoka zije gupakira ibyo zigiye gucuruza zikabipakira ziri kubona, n'abantu batandukanye baje bagana kuri izo nzu ku buryo bashobora no kugama imvura iguye.

Ni inzu bacururizamo ibikoresho by'amazi ,amashanyarazi n'iby 'ubwubatsi by'ubwubatsi basangamo ibihombo, imigezi na marobine bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa byamamaza bigaragaza ibyo abacururizamo bakora. Bavuga ko basukura ibintu bitandukanye. Hariho na nimero za telefone wabashakiraho kugira ngo bazagusukurire ikintu ushaka gusukuza.

Inzu igurishirizwamo ibintu bitandukanye, izitijwe na senyege, isakaye neza n'amabati y'umutuku, ndetse banayikoreye urutendezo rufite imbaho, kugira igaragaze ubwiza bwayo.

Umugore ugemo ibyo yejeje kuri butiki, akaba abyikoreye mu ibase, aho abantu bazaza kugura, bagura ibyo yazanye kuri iyo butiki.

Abamotari baparitse ku muhanda bategereje ko abagenzi baza kubatega bakabatwara, hanyuma bakabajyana iyo bagiye. Ndetse n'abanyonzi bapakiye imifuka y'amakara baje kuyigurisha ku maduka.

Butike iri ku muhanda, yegetseho ibisheke, umuntu afite agatebe ka parasitirike ari kugira yicareho, kugira ategereze abacuruzi n'abandi bantu baraza kumugurira.

Ibikuvurari bitandukanye byifashishwa mu kwiyorosa iyo baryamye nijoro, birambitse hamwe bizinze mu dukipe, ku buryo umuntu wese ushaka igikuvureri yaza agashyikira bitewe n'uko ba nyirabyo bari kubicuruza.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye，rifite pave yubakishijwe amakoro，amakoro baseye n'imashini，ikayakora neza，ikayaconga kugira ngo bayubakishe， ifite n'inkingi z'ibyuyuma，bisize irangi ry’icyatsi.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye bacuruza cane cane bodaboda, z'umweru, z'umuhondo, z'umukara, bitwikiriye imitaka mu gihe cy'izuba, cyangwa mu gihe cy'imvura.

Urujya n'uruza gw'abantu n'ibintu harimo amamodoka, amagare, amamoto abacuruzi ba emutiyeni bari mu mitaka ibiti amazu manini y'ubucuruzi n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye zicururizwamo ibinyobwa cyane cyane ibya sikoro aho abakiriya baza kugura bari mu modoka bakagura bakaja kunywera mu rugo.

Ibikombe bya purasitike birunzwe hamwe biri mu mabara atandukanye, ay'umutuku, ay'icyatsi, ay'ubururu, ndetse n'ibigega bifata amazi, hariho n'amabase ndetse n'amasafuriya.

Inzu z'ubucuruzi zubatse neza， zigaragaza ibyapa ko bacuruza inzoga za mitsingi，ndetse n'ibindi bitandukanye，n’ubwo zikinze ariko uhageze hafunguye，ntiwabura mitsingi，kandi ziri imbere y'indabo zitatse neza， ziri mu mavaze.

Edeni gorufe gesiti hawuze, inzu irimo amacumbi bigaragara ko bafite ibitanda byiza, ndetse na za motora ku buryo urayemo yumva anezerewe.

Umubaji ubaza ibintu bitandukanye ari kumwe n'umukiriya uje kumubwira ko amubariza urugi ndetse akabikora neza kuko arukeneye rumeze neza kugira akinge inzu ye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye imboga n'imbuto, imineke, amagi ndetse bagira n'amazi y'Inyange, bityo buri mukiriya wese uje kugura agahitamo icyo ashaka.

Isoko riciriritse ricuruza ibikapu, imyenda, aho uricururizamo ari umugabo wambaye ishati y'umutuku, n'ipantaro yakoboye kandi yambaye supuresi ari kugenda ku muhanda wa mapave.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda ku mamoto ,amagare batembera mu mujyi bareba no mu bwiza nyaburanga, bitegereza n'amatara atatse umuhanda ndetse n'imisozi iri hakurya y'umujyi bayibona neza bayitegeye.

Banki y'abaturage babitsamo bakanaguriza amafaranga. Ifasha mu iterambere ry'abaturage mu kwiteza imbere mu mishinga itandukanye, bigatuma bagira imibereho myiza.

Abakozi ba kapani y'ubwubatsi, bambaye imyenda ibagaragaza ko ari abubatsi, bafite n'amagofero atandukanye ari mu mabara, bamwe bafite ingofero y'umutuku undi y'umuhondo, undi y'ubururu, undi y'umweru bagiye mu kazi.

Inzu za kijyambere zubatswe mu ishyamba ariko zisakaje zigira zikurura abantu baje kuzireba bazitangarira bitewe n'uburyo zubatse ndetse n'imiterere zifite n'uko zigaragara.

Inzu yitwa Fatima hoteri, icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa, iri mu busitani bwiza kuko imbere yayo hari ibiti byakuze cyane biyirinda umuyaga, no kuzana amahumbezi muri iyo hoteri.

Vizita gesiti hawuzi i musanze, inzu dusangamo amacumbi cyangwa se aho kurara, wayibona kuri zeru, karindwi, umunani gatanu, rimwe, umunani, rimwe, rimwe, kane, gatanu, murakaza neza.

Amasabune ari mu gikarito, amavuta y'ubwoko butandukanye harimo aya Sante, Bebikeya, ndetse n'andi ari mu macupa y'icyatsi n'icupa rifite umufuniko w'umutuku, yiyifashishwa mu kwisiga kugira ngo uruhu rworohe.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane za mudasobwa, ziba ziteretse ku meza zifashishwa mu kureba videwo cyangwa se n'ibindi bintu by'ikoranabuhanga.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo ubunza ibiraha mu ndobo kugira ngo abashaka kurya ibirayi bitogosheje ndetse n'ibikaranze mu mavuta babibonere hafi ,ndetse bakanagurisha n'imbuto, n'inyanya biri mu mabase.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, aho wasangamo amajerekani, ibibase, ibidomora, imyenda itandukanye y'abagabo n'iy'abagore iri mu mabara yose, ku buryo buri wese ahitamo ibara yishimye.

Abaturage benshi cyane baremye isoko bahuriye hamwe bagura ibintu bitandukanye. Aho bakorana n'abacuruzi bakabagurisha ibintu birimo imyenda, amasafuriya n'amabase ndetse n'ibindi byose baje gushaka mu isoko.

Isoko ry'umusaruro uva ku buhinzi, aho buri muntu wese aza akagura nta cyo yitayeho, kuko nta muntu uramuhagarika mu nzira kubera ko ari kubona ibyo akene byose.

Isoko rusange ry'umujyi wa Musanze, goyiko puraza. Rifasha abantu baturutse imihanda itandukanye baje kurirema kugira bihahire ibintu bitandukanye birimo imyenda, ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibindi.

Isoko rya kijambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye, aho abacuruzi bacururiza ku bisima buri muntu akaba afite numero y'igisima, cye kugira ngo agisore adasoreye ibisima byinshi.

Isoko ricururizwamo imyenda, ibikapu, ibintu bitandukanye, aho abaje kugura babibona kandi bakabibona bitabavunnye, kubera abacuruzi babibegereza.

Ibikuvureri bitandukanye bizingazinze hamwe kugira ngo bigurishwe abantu bazajya babyiyorosa ndetse bazitware n'imitaka hariho n'imyenda y'abana bakivuka b'impinja.

Abagore batatu bari gucuruza voka ku muhanda aho umuhisi n'umugenzi uje yaza akagura voka cyangwa se imineke n'ibindi bintu bafite ku nkoko.

Abantu bari mu isoko batandukanye , bagurisha ibintu bitandukanye, harimo: ibirayi, imyenda, amashu, imboga n'imbuto, aho ufite amafaranga agura icyo abonye kigendanye n'icyo akeneye.

Karoti nziza cyane, zirimwi ibase y'icyatsi, zifitwe n'umuntu wo kuzicuruza agiye kuzigemura ku isoko, kugira ngo abaguzi bazigure, nyuma y'uko azironze neza akazigirira isuku.

Abantu bari mu isoko rimwe bakunze, kwita ndaburayi aho bahurira bakagurisha ibintu bitandukanye, biba byarakoreshejwe cyangwa, ibishasha bikaba ari isoko ribera ku muhanda, irisoko nta nubwo ribagenda.

Iduka ririmo gucuruza ibintu bitandukanye harimo amavuta yo kurya ari mu tujerekani, ayo kurya, amavuta yo kurya ari mu dushashi. Bacuruza n'umuceri ku buryo uje guhaha bamupimira ku kiro bifashishije umunzani uba uhagaragara uteretseho isahani.

Isoko ry'imyenda itandukanye ya caguwa, aho buri muntu ushaka umwenda aza agacagura mo uwo ashaka bitewe n'uko abona umubereye kandi umuti.

Umucuruzi w'ibikapu bitoya by'abagore byifashishwa mu gutwara ibintu bitandukanye. Nk'amafaranga, utwenda tw'imbere, ibisokozo n'ibindi bashyira muri utwo dukapu twabo dutoya.

Abahinzi bahinze amashu bari gusarura urufatanye kugira ngo babone amafaranga yo gushora mu bindi bikorwa. Babaguriye uwo musaruro ku muhanda.

Abacuruzi bari gucuruza intogi ku mifungo, aho umufungo uba ufite amafaranga runaka bitewe n'uko bawufunze, abantu bakaza kugura bitewe n'ayo bafite ayo ariyo yose ku buryo babona ibyo bacura mu rugo.

Abadozi bari gukoresha imashini zanyonganyonga aho batati imyenda itandukanye no gutera ibiremo kumyenda yashaje kugira yongere kwambagwa kandi isa neza.

Umucuruzi w'imyenda itandukanye ya caguwa, ahagaze iruhande rwayo ategereje ko abaguzi baza kuyigura, bagahitamo iyo ibakwiye, bityo bakishyura amafaranga bitewe n'iyo bashimye, bakambara bakaberwa.

Isoko ririmo ibintu bitandukanye harimo ibitebo birimo imifuka, imboga, imbuto ndetse n'amasafuriya, ku buryo abantu baje kubigura babibonera hafi, kuko biri ahantu komeye kandi hagaragara mu gihangari.